Umusore ubona ukiri umujeni, afashe indangururamajwi mu ntoki, akaba ari imbere y'imbaga, akaba arimo arabaganiriza ku bintu bitandukanye ndetse abagira n'inama.

Mu gihe utegura inama ugomba kureba neza ko izitabirwa n'abantu bose kuko yaba umugore, yaba umugabo, bose batanga ibitekerezo byubaka umuryango ndetse n'igihugu.

Icyumba kirimo abantu benshi batandukanye bicaye ku ntebe zisize ibara ry'icyatsi, imbere yabo hakaba hari umuyobozi uri kubagezaho imbwirwaruhame ndetse abagira n'inama.

Polisi y'u Rwanda ni bamwe mu bafatiye runini Igihugu cy'u Rwanda kuko barindira umutekano Igihugu ndetse n'abaturage muri rusange, uyu mupolisi rero akaba ari kubwira abantu kwitwararika ndetse no kurindirana umutekano.

Abaturage batandukanye, bitabiriye inama rusange, imbere yabo hari umuyobozi uri kubagezaho imigabo n'imigambi ndetse n'ibyo bagomba gukurikiza kugira ngo bagere ku iterambere rirambye.

Umugabo wambaye amarinete akaba afashe indangururamajwi mu ntoki ababa yambaye n'ikote ry'umukara, arimo aratanga imbwirwaruhame ku bantu bamuteze amatwi mu nama bajemo bitabiriye ari benshi.

Abantu benshi bahuriye mu cyumba cy'inama, hakaba harimo abagore n'abagabo ndetse n'urubyiruko, bahurijwe hamwe n'insanganyamatsiko bakaba bari kuganirizwa n'umuyobozi ubahagaze imbere.

Umugabo ufashe indangururamajwi ahagaze imbere y'inteko y'abaturage, akabari kubagezaho imigabo n'imigambi y'Umuryango wa FPR inkotanyi ari nahowo Nyakubahwa Perezida w'u Rwanda abarizwamo.

Abantu benshi batandukanye abagore ndetse n'abagabo bahuriye ahantu mu cyumba akaba bari mu nama, umugabo umwe uhagaze akaba afashe ijambo arimo aratanga igitekerezo cye.

Kwitabira inama, ni kimwe mu bintu bikwiye kuranga buri muntu kuko iyo witabiriye inama wungukiramo byinshi cyane kandi byagufasha, haba mu kwiteza imbere ndetse no guteza imbere igihugu cyawe.

Abantu batandukanye bahuriye hamwe mu nama, insanganyamatsiko ikaba igira iti: " rubyiruko menya amateka yawe". Ni byiza ko nk'urubyiruko natwe twitabira inama kugira ngo twungukiremo byinshi.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe bo bakaba bari mu misango y'ubukwe, harimo abakobwa beza b'abari b'u Rwanda bakaba bari kubyina bashayaya ndetse bateze amaboko, bambaye imikenyero iri mu mabara y'umweru.

Umwe mu batware bayoboye umujyi wa Kigali witwaga Rwabukwisi, akaba ateretse amasunzu afite n'utwanwa yambaye n'urunigi, ni umwe mu babayeho ku ngoma ya cyami kera.

Kimwe mu bintu biranga umuco w'abanyarwanda, kuva na kera, harimo no kubyina. Aba rero na bo bakaba bari kubyina bateze amaboko, bakenyeye imikenyero myiza. Harimo abasore ndetse n'inkumi, inkumi zikaba zateze ingori.

Uduseke ndetse n'inkangara bikaba ari bimwe mu biranga umuco nyarwanda kuko abantu ba kera babaga babifite buri rugo rwagombaga kuba rufite kimwe muri ibi bikoresho cyangwa se byose.

Bimwe mu biranga umuco nyarwanda, harimo no kubyina nk'uko tubibona, aba ni abagore bari gukoma mu mashyi, bambaye imikenyero, inigi ndetse n'ingori, bari kubyina bishimye cyane kandi bagaragaza umuco nyarwanda.

Iki ni igikoresho kiri muri bimwe biranga umuco Nyarwanda iki gikoresho kandi cyitwa igicuma, kikaba kirimo umuheha, umuheha ukorwa mu kiziranyenge, kikaba cyarakoreshwaga mu muco Nyarwanda abantu basabana.

Icyumba kirimo ibikoresho byifashishwa mu kugaragaza umuco nyarwanda, turabona umuheto, turabona agasongabugari, turabona umukeke, ibi byose bikaba biranga umuco nyarwanda.

Umuco nyarwanda ni kimwe mu bintu bigomba gusigasirwa kuko ari ibintu abantu benshi bishimira kandi iyo ubireba ubona ari byiza, abakobwa bari imbere na bo bari guhamiriza, babyinira kandi bataramira abari imbere yabo.

Abantu batandukanye biganjemo abakobwa, bakaba bari kubyina imbyino ya Kinyarwanda, bakaba bateze amaboko, bambaye imikenyero ifite ibara ry'ikigina.

Abari b'Abanyarwandakazi, ubona ko bacyeye rwose, bambaye ingori mu mutwe, bakenyeye imikenyero myiza cyane, bafashe ifoto nziza, urabona ko rwose ari abari babereye u Rwanda.

Bimwe mu biranga umuco w'Abanyarwanda kuva kera harimo n'imigara. Imigara ikaba yarambarwaga n'intore mu gihe bari kubyina bahamiriza, baca umugara bakambara ukabona ni ibintu byiza.

Aho urugomero rw'amashanyarazi ruba ruri hari amapiloni maremare atwara insinga z'amashanyarazi hari n'ibindi bikoresho bibika insinga, inama bakugira ni ukwirinda kuhagera kuko ushobora gukora ku cyuma kimwe ukaba wakatakwa n'inkongi y'umuriro.

Kwiga ni ikintu cy'ingenzi cyane kuri buri muntu wese. Aba nabo bizeye imyuga yo gukanika amashanyarazi none babonye ikiraka kijyanye no gusana iyi miyoboro y'amashanyarazi. Ni byiza rero ko dusoma kugira ngo natwe tuzibesheho.

Akenshi na kenshi amashanyarazi agomba kugira aho abikwa cyangwa se aho atunganyirizwa kugira ngo agere ku baturage nta ngaruka aribubateze, aha rero akaba ari hamwe mu ho amashanyarazi anyura kugira ngo agende ameze neza.

Ipoto ririho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi mu ngo z'abantu benshi kandi hakaba hariho amatara ari kumurika.

Amashanyarazi ni kimwe mu bikorwa bigenda byongera iterambere ry'Igihugu cy'u Rwanda ndetse n'iry'abaturage ndetse n'iry'isi muri rusange, ni byiza rero ko ahantu hose mu Rwanda agomba kugera amashanyarazi kandi aho yagize ikibazo agasanwa byihuse.

Amashanyarazi ni kimwe mu bintu bishobora gutuma habaho inkongi y'umuriro ni yo mpamvu Leta y'u Lwanda yashyizeho ishuri ryigisha ibijyanye n'amashanyarazi kugira ngo nihavuka ikibazo hajye hitabazwa izi nzobere zitange ubufasha.

Leta y'u Rwanda irakomeza gushishikariza abaturage gukoresha ingufu zituruka ku zuba kuko na zo zibyara amashanyarazi kandi uyafite agacana nijoro nk'ufite amashanyarazi.

Ipironi ririho insinga z'umuriro w'amashanyarazi. Rikaba ryagize ikibazo, ababyigiye cyangwa se inzobere, bakaba baje kurisana kugira ngo abaturage bakomeze gucanirwa neza cyane, bave mu kizima.

Imirasire ni kimwe mu bitanga ingufu z'amashanyarazi cyane cyane aho amashanyarazi ataragera bashishikarizwa gukoresha imirasire kuko na yo icana kandi cyane nk'amashanyarazi.

Igikorwa remezo ubona ko ari gishyashya rwose kitaratahwa, akaba ari igikorwa Leta yegereje abaturage cy'ikiraro kugira ngo bajye bambuka ahantu bidasabye ko bagira impungenge.

Ikigo cy'amashuri kikaba cyubatse mu buryo bwa etaje, aha aba banyeshuri baganayo bagakurayo uburezi buboneye kandi bukazabafasha n'ahazaza kuko bungukirayo byinsh.i

Inyubako nziza ya etaje, ikaba isakajwe n'amabati y'ubururu, ikaba yagize amabara y'umuhondo. Iyi nyubako ikaba ari nziza, gusa urabona ko ikiri kubakwa.

Inyubako yubatswe na Leta kugira ngo hajye habaho ubutabera ku baturage, nk'uko byanditse ku marembo handitseho ngo Ingoro y'Ubutabera, ahangaha abafite ibibazo barahagana bagahabwa ubufasha n'amategeko.

Iki ni igikorwaremezo, akaba ari inyubako ndende igereretse inshuro ebyiri, ikaba ifite imbuga ngari, ikaba iruhande rwayo hari ibyuma bihashinze. Inyubako isakaje amabati, ikirere gihari kandi kirasa ibara ry'ubururu.

Aha akaba ari ku mupaka wa Kagitumba uherereye mu karere ka Nyagatare uhuza u Rwanda na Congo, aha niho abantu baza bagahabwa ibyangombwa bibemerera kwinjira mu gihugu cyangwa se gusohoka.

Isoko ry'imbuto ndetse n'ibiribwa, harimo abantu benshi baje gushaka amafaranga, abandi baje gushaka ibyo kurya, iyo ugannye mu isoko nk'iri ntiwawi icyo uhaha na kimwe.

Inyubako ya etaje, akaba ari inyubako y'ibiro by'Akarere ka Nyagatare, iyi nyubako ikaba isizeye amabara y'umweru ndetse n'ibirahure bigizwe na giririyaje.

Kubera amateka igihugu cy'u Rwanda gifite, cyagiye cyubaka ibikorwa bimwe na bimwe kugira ngo bijye bidufasha kwibuka ayo mateka, iki cyapa kikaba kigaragaza icyicaro cya Gikoba ahabereye ubwigenge bw'u Rwanda.

Inyubako nshyashya urabona ko ari inyubako ngari kandi yisanzuye, akaba ari isoko Leta yegereje abaturage kugira ngo bajye bahahiramo nubwo'ubwo ritaratahwa.

Leta ikunda abaturage bayo, ibubakira ibitaro kugira ngo bazajye babona aho bivuriza biboroheye, aha akaba ari ku kigo nderabuzima, hari abantu benshi baje gusaba serivisi y'ubuzima.

Ikiraro cyubatswe n'ibyuma bikomeye cyane, hejuru yacyo hakaba hari gucaho igikamyo kinini cyane gitwaye ifarini y'azamu, ruguru hari n'izindi modoka ziri kumanuka, hirya hari n'abaturage bari kureba ibyo binyabiziga.

Ni ku kigo nderabuzima cya Gira ubuzima abana baje kugira na bo bahabwe serivisi zijyanye n'ubuzima, hanze y'icyo kigo nderabuzima hakaba hari ubusitani butarakura neza, ibara ry'icyo kigo nderabuzima ni ibara ry'ubururu.

Igikorwaremezo leta y'ubumwe yubakiye abaturage, akaba ari umuhanda munini wa kaburimbo kugira ngo ujye ugendwamo n'ibinyabiziga byabo, bibafashe kubona serivisi bakeneye byihuse.

Sitade cyangwa se ikibuga cy'umupira w'amaguru ikaba ikikijwe n'ibimera n'ibiti birebire, aha ngaha hakaba ari aho abantu baza gukorera imyidagaduro itandukanye.

Inyubako imeze nk'uruganda ikaba ituriye umuhanda, uru ruganda rukaba rutunganya ibicuruzwa bitandukanye bifasha abantu mu kubona serivisi bakeneye ndetse n'ibikoresho bakeneye.

Ikigo nderabuzima leta y'ubumwe yegereje abaturage kugira ngo bajye bahabwa serivisi zijyanye n'ubuzima, igihe barwaye babashe guhabwa ubufasha bw'ibanze.

Abantu benshi batandukanye bakaba bari hanze ku rubaraza rw'ibiro by'a akagari ka Kagarama, bakaba bari baje bitabiriye inama kugira ngo bungukiremo byinshi byabateza imbere.

Gereza cyangwa se igororero n'ahantutu imfungwa zibikwa mu gihe zakoze ibyaha, zikagororwa igihe runaka zikarekurwa zaravuyemo abantu beza kandi bafite imico myiza.

Aha ni ku mupaka uherereye mu burasirazuba mu karere ka Nyagatare uhuza u Rwanda ndetse na Uganda, hano akaba ari gukomeza mu Bugande, iyo ugarutse hino, uba uri mu gihugu cy'u Rwanda.

Ikiraro cyashyiriweho abaturage, kugira ngo bajye bakora ubuhahirane hagati yabo n'indi mirenge, bityo biborohere kubona serivisi bakeneye bitabaye ngombwa ko bajya kuzenguruka kure.

Isoko rusange rikaba ari igikorwa leta y'u Rwanda yegereje abaturage kugira ngo bajye baboneramo serivisi z'ibintu bitandukanye, hirya yaho hari n'ibiro by'umurenge, hari n'idarapo ry'igihugu cy' u Rwanda.

Ikiraro gikikijwe n'ibyuma abantu bakaba bakiriho, mu bigaragara bagitashye bishimira ibyiza Leta yabagejejeho, mu byo bari kubona hano n'iki kiraro kirimo.

Ni ku mupaka uhuza Igihugu cy'u Rwanda ndetse n'Igihugu cya Uganda, uherereye mu karere ka Nyagatare ahashyira iburasirazuba bw'amajyaruguru, ukunda kuhasanga urujya n'uruza rw'abantu benshi baba bava muri icyo Gihugu cya Uganda baza mu Rwanda.

Abantu benshi bahuriye ahantu hamwe mu gikorwa cyo gutanga amagare, urabona ko bayahaye abantu benshi harimo n'abakuru b'Imidugudu, iki gikorwa akaba ari cyiza kuko urabona ko abaturage bacyishimiye rwose.

Gahunda ya gira inka munyarwanda ikomeje kwaguka igera mu mpande zose z'Igihugu cy'u Rwanda, aba bakaba bazituye inka bagiye kuyiha umuturage, uyu muturage rwose urabona ko yabyishimiye cyane.

Amabendera abiri, iry'u Rwanda ndetse n'iry'umuryango w'Afurika y'iburasirazuba, iruhande rwayo hari abagabo, bambaye amakoti, bayafasheho urabona ko bari kuganira ku ngingo runaka.

Kwitabira inama ni kimwe mu bintu by'ingenzi twagakwiye gushishikarira, kuko iyo witabiriye inama wungukiramo byinshi, aba nabo rero baje mu nama kugira ngo bahanahane ibitekerezo byinshi bitandukanye.

Kwitabira inama ni ibintu byiza cyane kuko wungukiramo byinshi kandi byakungura ubumenyi ku bijyanye nuko wakiteza imbere, uyu musirikare akaba ari gutanga inama ku bantu bitabiriye iyi nama.

Abaturage bahuriye ahantu hamwe mu nama rusange, bakaba bateze amatwi umuyobozi wabo uri kubagezaho impanuro kugira ngo bungurane ibitekerezo by'uburyo bakwiteza imbere.

Umuhanda wa kaburimbo akaba ari igikorwa Leta yegereje abaturage, bakaba bishimira iki gikorwa kandi birabanyuze, iruhande rw'uyu muhanda hari borodire ndetse n'ibiti birebire.

Imodoka itwara abantu mu buryo bwa rusange bakunze kwita kwasiteri, ikaba iri mu muhanda wa kaburimbo, uri kunyurwamo n'ibindi binyabiziga ndetse n'abantu barimo kunyuramo bagenda abandi bagaruka.

Imodoka yo mu bwoko bw'ivatiri ikaba iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, umuhanda mwiza ufite n'utuyira tw'abanyamaguru ku mpande, hirya y'uyu muhanda hari ibiti ndetse n'amazu abantu batuyemo.

Umunyonzi utwaye igare ahetseho umufuka akaba ari kugenda mu muhanda wa kaburimbo, hirya y'umuhanda hakaba hari inzu ikoreramo ubucuruzi.

Ni muri gare harimo imodoka yo mu bwoko bwa kwasiteri, iyi imodoka ikaba iri gupakira abantu kugira ngo ibahe serivisi yo kubavana ahantu hamwe ibajyana ahandi bityo akazi kabo kagende neza.

Kamera abanyarwanda benshi bakunze kuyita sophia, ikaba iri iruhande rw'umuhanda. Iyi kamera ikaba ipima umuvuduko w'ibinyabiziga, iyo bibaye ngombwa ko ikinyabiziga cyihuta kiri mu makosa iyi kamera ifata amashusho, akazifashishwa bamenya uwakoze ayo makosa.

Inyubako itangirwamo serivisi zijyanye no gukata amatike, kuri kompani yitwa Excel ikorera muri Nyagatare, ibi bikaba bifasha abantu kuba bakora ingendo zigana mu bice na bimwe byo mu Gihugu.

Bimwe mu bikorwa leta yegereje abaturage, harimo n'amatara, amurika mu gihe cya nijoro kugira ngo abaturage barusheho kwizera umutekano wo mu mihanda ndetse n'aho bagenda bumve batekanye.

Imwe muri gahunda yazanywe n'urwego rw'umutekano, ari rwo polisi bayita gerayo amahoro. Akaba ari gahunda yashyizweho na polisi kugira ngo bajye barinda abantu impanuka cyane cyane zijyanye no mu muhanda.

Leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda yo gukora umuganda mu mpera z'ukwezi, aba ngaba na bo bakaba bari gukora umuganda harimo abadaso, abapolisi, abasirikare, bakaba bari gufasha abaturage mu guteza imbere Igihugu cyabo.

Ubusitani bwiza cyane buri mu ibara ry'umuhondo, icyatsi, hakaba hari abantu bicaye abandi bahagaze, hari umugabo wambaye umupira wa oranje uri gupepera abantu wambaye n'amataratara wishimye.

Abayobozi bo mu nzego zo hejuru, bakaba bicaye mu cyumba cy'inama, harimo n'umusirikare ndetse n'umufotogarafe uri gufotora, icyabahurije muri iyi nama ni ukugira ngo barebere hamwe, uburyo babungabunga umutekano w'abo bayobora.

Abantu benshi bahuriye hamwe mu gikorwa k'inama rusange y'akagari, bakaba bateze amatwi umuyobozi uri imbere yabo, uri kubagezaho imigabo n'imigambi y'ibyo bagomba gukora muri uyu mwaka.

Inama yahurije hamwe abayobozi bo mu nzego zo hejuru ndetse n'abaturage bo mu nzego zo hasi, hakaba harimo abapolisi ndetse n'abasirikare urabona ko bishimiye iki gikorwa kuko bungukiyemo byinshi.

Umugabo wambaye amarinete wiyogoshesheje yamazeho, akaba afashe indangururamajwi mu ntoki, akaba ari gutanga ijambo ku bamuteze amatwi, akaba ari inama rusange.

Leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda yo gukora umuganda mu mpera za buri kwezi, haba abayobozi, haba baturage, bagomba guhurira hamwe bagakora umuganda kuko ni igikorwa kireba buri wese.

Inama rusange yahurije hamwe abaturage batandukanye, hari umugore uhagaze iruhande rw'abo baturage. Akaba ari kushimisha ndetse ababwira n'ibyiza, urabona ko abaturage bakomye mu mashyi.

Umupolisikazi uri imbere y'abaturage akaba ari kubagezaho ijambo yabageneye, akaba ari kubagira inama y'uburyo bagomba kwitwara kugira ngo barinde umutekano w'ibyabo ndetse n'ababo aho bari hose.

Inama rusange yahuriwemo n'abaturage batandukanye, ikaba ari inama ubona ko ishishikaje benshi kuko yitabiriwe n'imbaga nyamwinshi, aho baje kumva icyo ubuyobozi bw'abateguriye kugira ngo barusheho gusobanukirwa ibyabateza imbere.

Gerayo amahoro ni serivisi polisi y'Igihugu cy'u Rwanda ishishikariza abanyarwanda, cyane cyane abatwara ibinyabiziga byo mu mihanda, bagomba gutwara neza bigengesereye kandi bakagera iyo bajya amahoro.

Abaturage batandukanye ndetse na Polisi n'umusirikare bakaba bateruye amabuye, bahuriye mu gikorwa cy'umuganda kugira ngo barusheho gusana ibyangiritse kandi barusheho kungurana n'ibitekerezo bitandukanye.

Abantu benshi batandukanye, bahuriye mu gikorwa cy'umuganda rusange, bakaba bamwe bicaye bategereje guhabwa impanuro z'abayobozi babo kugira ngo bumve uko batera imbere.

Imyitozo ngororamubiri ni ikintu cy'ingenzi ku buzima bwacu, aba bagabo na bo basobanukiwe akamaro ko gukora imyitozo ngororamubiri, bakaba bagiye aho ikorerwa gukina umupira w'amaguru.

Abantu batandukanye abagabo ndetse n'abagore, bahagaze mu kibuga gikinirwamo umupira w'amaguru, babiri muri bo bafashe icyapa cyanditseho amarushanwa y'Umurenge Kagame Cup cyabaye umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, makumyabiri na gatanu.

Nyuma y'uko basobanukiwe akamaro ko gukora imyitozo ngororamubiri bahuriye ahantu mu mbuga ngari barimo barakora imyitozo ngororamubiri yo gusimbuka kugira ngo barinde ubuzima bwabo kuba bwarwaragurika.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni igikorwa cyiza kandi uwayikoze ahorana ubuzima bwiza, rero nyuma yo gusobanukirwa neza tugomba kuyikora kugira ngo twirinde indwara ziterwa no kudakora siporo.

Abana harimo abahungu ndetse n'abakobwa. Bakaba bari muri siporo yo kwirukanka kugira ngo barinde ubuzima bwabo ndetse bafashe imibiri yabo kugororoka bibarinde n'indwara ziterwa no kudakora siporo.

Ikipe ikina umupira w'amaguru, bakaba bambaye impuzankano, iri mu ibara ry'umukara, irimo uturongo tw'ubururu, nyezamu wabo akaba yambaye umupira wa oranje n'ikabutura ya oranje, bambaye n'amasugisi ndetse n'inkweto.

Abantu batandukanye bicaye muri sitade, bakaba baje kwihera ijisho imikino ibera muri iyi sitade kugira ngo na bo batahe bishimye kandi babone n'aho baruhukira.

Nk'uko tubizi imyitozo ngororamubiri ni ingenzi ku buzima bwacu, aba na bo bakaba barasobanukiwe akamaro k'imyitozo ngoramubiri, bakaba bari kuyikora kandi babyishimiye bashishikaye, bakaba ari abantu benshi, biganjemo urubyiruko.

Abakinnyi bambaye amajesi ari mu mabara atandukanye, imipira ikaba ari mu ibara ry'umuhondo, hakaba hari n'abambaye imipira iririmo ibara ry'ubururu, bambaye amasogisi nayo afite amabara atandukanye, baje gukora imyitozo ngororamubiri.

Ikibuga hagikinirwaho umupira w'amaguru hari urushundura ndetse n'izamu harimo abagabo babiri baje mu myitozo ngororamubiri kugira ngo barinde umubiri wabo kuba warwara indwara ziterwa no kudakora siporo.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru, bicaye ku ntebe z'abasimbura, bategereje kwinjira mu kibuga, bambaye impuzankano ziri mu ibara ry'umuhondo, uri ku ruhande rwa ruguru yambaye impuzankano iri mu ibara ry'ubururu, asa nk'aho ari we mutoza wabo.

Abaturage benshi harimo n'abayobozi bo mu nzego zikomeye, bicaye munsi y'ihema bakaba bahurijwe hamwe mu gikorwa cy'imyidagaduro kugira ngo barebe uburyo bakomeza guteza imbere siporo.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru, bakaba bambaye amakabutura y'umukara, amajezi yo hejuru akaba ari mu ibara rya orange, bakaba bari gukora imyitozo kugirango bazabone uko bahangana n'anandi makipe biteguye.

Abakinnyi b'umupira bambaye impuzankano iri mu ibara ry'umuhondo, ku ntugu hariho uturongo turi mu ibara ry'umukara, bicaye ku ntebe bafite n'udukarito tw'amazi bari kunywa igihe bananiwe.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru bambaye jiezi iri mu ibara ry'ubururu, icyatsi, bakaba bari mu kibuga kitarimo ibyatsi, hakaba hirya hari abafana baje kwihera ijisho uwo mukino.

akayira gatoya cyangwa se umuhanda usa n'uwasibamye, aha hakaba ari mu bice by'icyaro iruhande rw'umuhanda hari borodire itwara amazi kugira ngo atagenda yangiza imyaka y'abaturage.

Igikorwa remezo Leta yubakiye abaturage, hakaba hari kunyuramo moto iriho umumotari uhetse umugenzi, iruhande rwaho hari amapoto atwaye insinga z'amashanyarazi, acanira abaturage.

Imihanda yo mu byaro ugenda usanga igizwe n'ibitaka kandi idakoze neza, uyu mugabo na we umuhanda ari kugendamo ukaba ubona ko udakoze neza rwose, hirya y'uwo muhanda hari amazu y'ubucuruzi ndetse n'amazu yo guturamo.

Igikorwa remezo cy'umuhanda wa kaburimbo Leta yubakiye abaturage kugira ngo bajye babona aho banyuza ibinyabiziga byabo ndetse babashe kubona urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'urw'ibicuruzwa.

Rimwe na rimwe abamotari hari igihe babura abagenzi bo gutwara, bikaba ngombwa ko bimuka bakajya kubashaka, n'uyu nawe agiye ahandi kugira ngo arebe ko abona umugenzi wogutwara nawe abone ku mafaranga.

Umumotari uhetse mugenzi bakaba bari kunyura mu muhanda wa kaburimbo, inyuma yabo hari umunyonzi nawe uri ku igare uri kumanuka, iki gikorwaba akaba ari igikorwa remezo Leta yubakiye abaturage kugira ngo bajye babona serivisi bakeneye byihuse.

Mu byaro bitandukanye hirya no hino mu gihugu, usanga hari imihanda iba yarazibamye bitewe nuko idakoze neza, rero umuganda nicyo ubereyeho kugira ngo iyi mihanda ikorwe neza abaturage bagende batekanye.

Umuhanda munini wa kaburimbo, ukaba ukikijwe n'amapoto ndetse n'icyapa ndetse n'amazu agiye atandukanye, aya mazu akaba akorerwamo ubucuruzi, aho abantu baza bagahabwa serivisi zijyanye n'ibyo bacuruza.

Umuhanda wa kaburimbo, ukaba ari igikorwa remezo begereje abaturage, hakurya y'umuhanda hakaba hari inyubako, zikorerwamo ubucuruzi ndetse n'inzu ya Fortebet, bakoreramo imikino y'amahirwe.

Umuhanda mugari wa kaburimbo unyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye, ukaba ukikijwe n'amazu yubatse neza akorerwamo ubucuruzi bufasha abantu bari aho hafi guhaha.

Mu bice byo mu cyaro usanga hari imihanda iba itubakiye neza kandi ugasanga abantu bakunda kuyinyuramo, rero ni byiza ko igihe cy'umuganda bibanda kuri iyi mihanda bakayikora bakayigirira isuku kugira ngo bayisigasire.

Igikorwa remezo leta yubakiye abaturage, akaba ari umuhanda mugari kandi mwiza, ukaba ukikijwe n'ibimera ndetse na borodire itwara amazi mabi. Iruhande rw'umuhanda hari inyubako z'abaturage.

Leta y'u Rwanda yagiye yegereza abaturage ibikorwa remezo bitandukanye, harimo imihanda kandi kuri iyo mihanda igenda ishyiraho n'utuyira tw'abanyamaguru bagomba kunyuraho ndetse ishyiraho n'amatara acanira abaturage mu gihe cya nimugoroba.